Mu buzima bwacu bwa buri munsi, duhura na byinshi bitandukanye, ndetse tukanyura na hatandukanye, ni byiza ko mu gihe tugarutse imuhira dukaraba intoki, kugira biturinde indwara ziterwa n'umwanda, dukwiye kandi gutoza abana ko gukaraba intoki ari byiza ku buzima bwabo, ndetse bakabikurana.

RBC ni Ikigo K'Igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda aho gitanga inama zigiye zitandukanye ku buryo twakita ku buzima bwacu, ikindi kandi bagatanga n'umurongo ngenderwaho w'ibigo nderabuzima byakoresha kugira ngo bitange ubuzima ndetse kandi binite ku barwayi bari mu bitaro bigiye bitandukanye uko bikwiriye.

Gusura ababyeyi ni umuco uranga Abanyarwanda, aho usanga mu biruhuko ababyeyi bohereza abana kwa nyogokuru, bakagenda banyogokuru bakabaganiriza bakabitaho, bakabagaburira, bakababwira amateka yaranze u Rwanda, bakabacira imigani, ni ibintu byiza kandi byongera urukundo hagati y'ababyeyi n'abana.

kwa muganga ni hamwe mu hantu hakwiye kwitabwaho cyane aho uhasanga ibitanda byabugenewe, amasupanete, ibi byose bifasha abarwayi gukira neza kandi bagakira vuba. Mu Rwanda dufite ibitaro bigiye bitandukanye cyane cyane nko mu mujyi wa Kigali aho tuhasanga ibitaro nk'ibya CHUK, ibitaro by'abarwayi i Kanombe n'ibindi bigiye bitandukanye wakenera ubuvuzi ukabona.

Materinite ni inzu yihariye usanga mu bitaro bitandukanye bya hano mu Rwanda ndetse no mu bigo Nderabuzima, aho usanga ibi bitaro cyangwa se izi nzu zifashishwa mu kwita ku babyeyi batwite ndetse n'abamaze kubyara, kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwihariye kandi bitabweho nkuko bikwiriye.

Ni byiza ko umwarimu yigisha abanyeshuri akoresheje ingero, iyo ari kubigisha bibafasha kumva neza ibyo biga kandi bikanatuma na we atanga ubumenyi nk'uko bikwiriye. Mu mashuri agiye atandukanye yo mu Rwanda, twifashisha ibikoresho byabugenewe bifasha abanyeshuri kumva neza ibyo bize.

Abana bakunda ibikinisho ndetse bakunda no kubona ahantu hari ibikinisho, cyane nko kwa muganga iyo umwana arwaye biba byiza iyo umushyize mu cyumba kirimo ibikinisho, bimufasha gukira vuba kandi bikanamworohereza, ni byiza ko rero dushyira ibikinisho ahantu mu byumba by'abana nko kwa muganga kugira ngo bibashe gukira vuba.

Ubusitani ni kimwe mu bifasha abantu kuruhuka neza, ni byiza ko ahantu hahurira abantu benshi nko kwa muganga haterwa ibiti ndetse hakanaterwa ibyatsi, hagashyirwamo n'intebe ku buryo umurwayi wese uje kwa muganga akeneye kuruhuka yaba yicaye mu gihe ategereje ko bamuvura.

Gukora siporo ni kimwe mu bintu byiza bifasha umubiri wacu kuruhuka neza. Biba byiza u ukoze siporo mu mugitondo ukibyuka kuko bigufasha kwirwanya akanyamuneza kandi bikanagufasha gutangira umunsi wawe neza. Iyo ukoze siporo ukananywa amazi, byorohereza umubiri wawe gukora neza kandi bikanawufasha kuruhuka neza no kwirirwa umeze neza.